Iterambere ryaragutse. Abantu babasha kubitsa muri banki bakabona n'inguzanyo zituma bajya gushinga buzinesi. Ahantu hose buri muturage ntagihezwa kugenda akaka inguzanyo muri banki cyangwa se ikimina.

Twiteje imbere mu bijyanye no kubaka hoteli, abantu benshi babona ho kwiyakirira, gukora inama n'abanyamahanga baraza bakadusigira amafaranga iyo twabakiriye, hose mu Gihugu.